Inama z'abaturage ndetse n'abayobozi babo, ni zimwe mu zifasha kugira ngo barebe ibibazo bigiye biri hagati mu baturage, babishakire umuti ndetse n'ibisubizo mu gihe kiza.

Uburezi bw'amashuri, uburyo bw'imyigire igezweho kugirango habeho ubukangurambaga ndetse no kwigisha abakiri batoya bijyanye n'igihe, kugira bazagire icyo bimarira.

Amashanyarazi ni igikorwa remezo cyoroshya ubuzima bwa buri munsi mu tuzi tumwe na tumwe tugenda dukenera ubwifashishwe bw'amashanyarazi, aho ari ibikorwa remezo binafasha kuba abaturarwanda mu mucyo kandi banizeye umutekano.

Amashanyarazi ibikorwa remezo bidufasha kumurika mu gihe cya nijoro ndetse no gukora indi mirimo igiye itandukanye isaba ikoreshwa ry'amashanyarazi kugira ngo ibashe kuba yashyirwa mu bikorwa.

Amashanyarazi, igikorwa remezo kidufasha mu buzima bwa buri munsi mu gukoresha ibikorwa bimwe bigiye bitandukanye bikoresha umuriro w'amashanyarazi. Ni ibikorwa remezo buri muturage akenera mu buzima bwe bwa buri munsi.

Amashanyarazi ibikorwaremezo nkenerwa mu buzima bwa buri munsi, harimo utuzi tugiye dutandukanye tugenda dukenera amashanyarazi harimo nko kogosha ububaji ndetse n'ibindi, amashanyarazi akaba adufasha mu bintu byinshi cyane.

Amashanyarazi ibikorwaremezo umuturage akenera mu buzima bwa buri munsi, kugira ngo atunganye bimwe mu bikorwa bikenera amashanyarazi, bikaba bidufasha mu koroshya akazi.

Amashanyarazi ni igikorwa remezo kidufasha mu buzima bwa buri munsi utuzi tugenda dukora tugiye dutandukanye kugira ngo tubashe koroha dukoresha uburyo bw'amashanyarazi.

Amashanyarazi akaba ari igikorwaremezo buri muturarwanda agenda akenera mu buzima bwa buri munsi, aho byoroshya ubuzima ndetse n'utuzi tugenda dukora tugiye dutandukanye.

Amashanyarazi ibikorwa remezo tugenda dukenera mu buzima bwa buri munsi harimo nk'ububaji, busudizi, ubwogoshi ndetse n'utundi tuzi tugiye tukaba adufasha mu koroshya akazi kandi kagakorwa vuba.

Amashanyarazi ni ibikorwa remezo tuza twifashisha mu buzima bwa buri munsi kugira dukora imirimo igiye itandukanye kandi dukomeze kubaho ahantu dufite umucyo.

Amashanyarazi, ibikorwa remezo Leta ikomeza kugenda yubaka kugira ngo yohereze abaturage mu byo bagenda bakora bigiye bikeneye amashanyarazi mu buzima bwa buri munsi.

Amashanyarazi, ibikorwa remezo nkenerwa buri munsi buri muturage wese yakoresha ashaka koroshya akazi ke mu buryo ubwo aribwo bwose kikaba ari igikorwaremezo kidufasha mu buzima bwa buri munsi ndetse no koroshya akazi.

Amashanyarazi: ibikorwaremezo leta ishyiriraho abaturage kugira ngo biborohereze mu mirimo yabo ya buri munsi. Amashanyarazi adufasha bimwe mu bikorwa bigiye bikeneye amashanyarazi, nko gusudira, kubaza ndetse n'ibindi.

Amashanyarazi, igikorwaremezo, dukenera mu buzima bwa buri munsi, kigenda kidufasha, mu tuzi dukora tugiye dutandukanye, bikaba kitworohereza mu kazi ka buri munsi.

Amashanyarazi ibikorwa remezo bidufasha mu koroshya ubuzima bwa buri munsi mu bikorwa dukora bitandukanye bigenda bikenera umuriro w'amashanyarazi, akaba ari uburyo bwiza bwo kunoza umurimo kandi vuba.

Ubukangurambaga bugenda bubera ahantu hagiye hatandukanye, inama zigenda zihuza abaturage ndetse n'abayobozi babo kugira ngo bafate umwanzuro w'ibibazo bidafite ibisubizo barebera hamwe n'uko bakiteza imbere.

Ubucamanza ndetse n'ubugenzacyaha ni zimwe muri gahunda zishyirirwaho abaturage kugira ngo bakomeze kubana ariko bakurikije amategeko.

Inkongi y'umuriro, imwe mu biza biza bitateguje ukaba utamenya igihe byagutungurira, mu kurwanya inkongi y'umuriro wifashisha uburyo bwa kizimyamoto, buba ari uburyo bwiza kandi buboneye.

Amatora ni zimwe muri gahunda za leta nziza, aho buri wese atora umuyobozi umubereye, bishimiye kandi akaba ari mwiza badufasha gushyiraho abayobozi dushaka.

Imihanda ni igikorwaremezo cyashyiriweho abaturage mu buryo bwo koroshya ingendo umuntu akora ava ahantu hamwe agana ahandi, bikaba umuhanda wifashishwa mu buryo bw'ibinyabiziga cyangwa mu buryo bw'amaguru.

Imihanda, ibikorwa remezo, bikoreshwa buri munsi, n'abaturage, mu gihe bashaka gukora ingendo bava ahantu hamwe bagana ahandi, bifashishije ibinyabiziga.

Imihanda, ibikorwa remezo tugenda dukoresha mu buzima bwa buri munsi aho byoroshya ingendo tugenda dukora tuva ahantu hamwe tugana ahandi mu buryo bwiza buboneye kandi bufite umutekano.

Imihanda, bimwe mu bikorwa remezo byoroshya ingendo za buri munsi ndetse n'akazi gatandukanye abantu bagenda bakora, imihanda ikaba yifashishwa habayeho ibikoresho by'imodoka, amaguru ndetse n'ibindi binyabiziga bigenda bitandukanye.

Imihanda igikorwaremezo kidufasha mu bwa buri munsi mu ngendo tugenda dukora zitandukanye, tuva ahantu hamwe tugana ahandi habikoreshwa mu buryo bugiye butandukanye.

Imihanda, igikorwaremezo, kitworohereza mu ngendo za buri munsi, umuntu agenda akora ava ahantu hamwe agana ahandi, habayeho ubwifashishijwe bw'ibinyabiziga.

Imihanda ni kimwe mu bikorwa remezo tugenda twifashisha ubuzima bwa buri munsi, mu gihe dushaka kuva ahantu tugana ahandi, hakaba imihanda ikoreshwa hifashishijwe ibinyabiziga.

Imihanda. Bimwe mu bikorwa remezo dukoresha mu buzima bwa buri munsi, tuva ahantu hamwe tugana ahandi, dukoresheje ibinyabiziga cyangwa se uburyo bw'amaguru.

Imihanda, igikorwa remezo cyashyiriweho mu buryo bwo koroshya ingendo umuntu ava ahantu hamwe agana ahandi akoresheje ibinyabiziga cyangwa uburyo bw'amaguru mu buryo bumworoheye mu ngendo za buri munsi.

Imihanda, imwe mu bikorwa remezo byoroshya ingendo za buri munsi, abaturage bagenda bakora mu gihe bashaka kuva ahantu ndetse bagana ahandi, habayeho ubukoreshe bw'ibinyabiziga cyangwa ubundi buryo ubwo ari bwo bwose.

Ibyapa akaba hariho ibirango bishyirwa ahantu bishaka kuranga ndetse no kubwiriza cyangwa se kubuza bimwe mu bintu bigiye bitandukanye.

Ibyapa, ni ibirango bimenyesha bikaburira, ndetse bikanabuza, akenshi bikoreshwa mu mihanda kugira ngo umutekano w'umuhanda ukomeze kubungabungwa.

Ibikorwa remezo habonekamo imihanda, imihanda ikaba ikoreshwa mu buryo bwo kuva ahantu ugana ahandi habayeho ubwifashishe bw'imodoka cyangwa amaguru.

Ibyapa ni ibirango biburira bikabuza bigakumira cyangwa bikamenyesha, akenshi bikaba bikoreshwa mu muhanda, kugira ngo umutekano wo mu muhanda ukomeze kubungabungwa.

Ibyapa, ni ibirango bikumira, bikabuza, cyangwa bikerekana byifashishwa mu mihanda, kugira ngo umutekano w'umuhanda, ukomeze kubungabungwa kandi witabweho.

Ibyapa ni ibirango bimenyesha, bikabwiriza, cya bikabuza. Bikoreshwa cyane cyane mu mihanda hagamijwe kubungabunga umutekano w'abanyamaguru ndetse n'ibinyabiziga.

Imihanda bimwe mu bikorwaremezo bidufasha koroshya ingendo, ndetse bikadufasha mu buzima bwa buri munsi, igihe umuntu ashaka ahantu hamwe, agana ahandi, mu buryo bworoshye.

Imihanda igikorwa remezo gishyirwaho kugera cyoroshye mu buryo bw'ingendo, ukaba ukoreshwa n'abaturage mu ngendo zabo za buri munsi, ukaborohereza mu kuva ahantu hamwe bagana ahandi mu buryo butabagoye kandi bwiza.

Imihanda ni igikorwaremezo kitworohereza mu ngendo za buri munsi, aho tuwukoresha twifashishije ibinyabiziga cyangwa uburyo bw'amaguru, ni uburyo umuntu wese yakoresha ashaka kuva hamwe agana ahandi.

Imihanda bimwe mu bikorwa remezo dukoresha buri munsi tuva ahantu hamwe tugana ahandi mu buryo bugiye butandukanye habayeho imikoreshereze y'amaguru cyangwa se ibinyabiziga.

Imihanda igikorwaremezo leta yashyiriyeho abaturage kugira ngo bajye babasha gukora ingendo zabo za buri munsi, bava ahantu hamwe bagana ahandi kandi bitabagoye mu buryo bwiza kandi bufite umutekano.

Imihanda, haba ari ibikorwaremezo kwifashisha mu buzima bwa buri munsi, aho bidufasha kuva mu cyerekezo kimwe, tugana mu kindi, twifashishije ibinyabiziga cyangwa uburyo bw'amaguru.